Isuku ni isoko y'ubuzima, umuntu ushaka kubaho neza, agomba kugira isuku akagirira isuku aho atuye ndetse n'ibikoresho bye, inzu nziza igomba kuba ifite isuku, ifite ubusitani bufite isuku kandi abakozi babishinzwe bagomba kuyitaho buri munsi.

Gushinganisha ibintu byawe ni igikorwa cy'ingenzi cyane kandi kigaragaza ko ufite ubwenge, umuntu ushinganishije ibintu bye ntahomba buri buri. Iyo ushinganishije ibintu byawe mu gihe kimwe gitakaye ushumbushwa ikindi bitewe nuko wishinganishije.

Mu rwego rwo gushinganisha cyangwa se gushyira ibintu umuntu afite mu bwishingizi, agomba kubanza kugaragaza agaciro kabyo kugira ngo igihe runaka habaye impanuka cyangwa bibaye ngombwa ko yishyurwa azabone uko yishurwa.

Hari uburyo butandukanye umuntu ashobora gukoresha yamamaza, urugero: mu gihe wamamaza imodoka ushobora gutangira ugira uti gendana icyizere buri ntambwe y'urugendo, ibi bituma umuntu wese ushaka kugura imodoka agura ubwo bwoko bw'iyo modoka.

Imana yaremye umugabo n'umugore. Mu ntangiriro Imana yaremye umugabo, hanyuma ikuramo urubavu imuremeramo umugore. Bamaze igihe babyaye umwana, umwana bamwita Kayini, nyuma yaho babyaye undi mwana, uwo mwana bamwise Abeli.

Iyo ushaka kugera ku kintu uragiharanira. Ese ni he wifuza kugera? Niba wifuza kugera ku ntego ushobora gukora igishushanyo mbonera cy'ukuntu wagera kuri izo ntego. Zimwe mu ntego umuntu yakwishyiriraho ni izo kuba umuntu ukomeye cyangwa se kugira ubuzima bwiza mu gihe kiri imbere.

Mu gihe umuntu yizigamiye ashobora guhabwa amafaranga mu gihe ageze mu zabukuru. Ibi bituma abantu benshi bagirwa inama yo kwizigamira hakiri kare kugira ngo bazagobokwe mu minsi y'amasaziro yabo.

Niba ushaka kugura telefone ugomba kubanza gushaka amakuru, amakuru ni cyo kintu cya ngombwa umuntu agomba kubanza kumenya mbere yuko agura iyo telefone, akwiye kwibaza ati :''Ese iyo telefoni igura angahe, ni hehe yayibona, umuriro umaramo igihe kingana gute''.

Tugeze mu gihe cy'imvura, imvura nyinshi, imyuzure n'ibindi biza byakwangiza inyubako yawe bikagutera ibihombo, irinde sinamenye ugura ubwishingizi bw'inyubako maze ugire umutekano usesuye.

Kwamamaza ni igikorwa gikorwa n'abantu batandukanye; kwamamaza ni igikorwa gikorwa mu buryo butandukanye bitewe n'ahantu ndetse n'abantu bagikora; hari uburyo bwinshi bwo kwamamaza gusa icy'ingenzi ni uko umuntu wamamaza agomba kuba afite ubuhanga bwo kwamamaza ndetse ashoboye no kwemeza abantu.

Ubwishingizi ni ingirakamaro cyane. Mu gihe utakaje ibintu byawe warabishyize mu bwishingizi, ibi bituma udahomba ahubwo abantu wahaye amafaranga kugira ngo bazakwishingire mu gihe utakaje ibintu byawe bahita bakwishyura ako kanya.

Telefone ni igikoresho cyiza gifasha abantu mu bikorwa bitandukanye. Mu guhamagara, mu kubara amafaranga, mu gutuma abantu bashyikirana, ndetse bagakuza ubucuti n'umubano byabo, telefoni ni ingenzi cyane.

Ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere cyane, ubu hari uburyo umuntu ashobora kubikamo amafaranga ye akamara igihe runaka atayakozeho, kandi akaba ashobora kugura ikintu icyo ari cyo cyose abinyujije mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Hari ahantu henshi umuntu ashobora kubitsa amafaranga. Umuntu ashobora kubitsa amafaranga ku Murenge SACCO, ibi bishobora gutuma atibwa, ariko kandi nanone ushobora gukoresha banki ukoresheje telefoni hanyuma ukabika amafaranga yawe.

Telefoni ni igikoresho cy'ingenzi cyane umuntu ashobora kubikamo ibintu bitandukanye, gusa akamaro kayo kanini ni uguhamagara umuntu mutari kumwe, ushobora gushyiramo amafaranga hanyuma ukamuhamagara nubwo we amafaranga muri telefone yaba yamushiranye.

Hari uburyo bwinshi bwo guhererekanya amafaranga. Bumwe muri bwo, ni ukohereza amafaranga ukoresheje telefoni. Ibi bituma hirindwa ubujura kandi amafaranga yoherejwe kuri telefoni, aba afite ubwirinzi buhagije.

Kuzigama ni igikorwa cy'ingenzi cyane, biragufasha mu gihe ukennye, kuko iyo wizigamiye ubona ikikugoboka, niba ushaka kubaho neza mu gihe kiri imbere, ugomba kwizigama uhereye ubu, kuko ibyo urizigama ubu ngubu, bizagufasha kubaho neza mu gihe kiri imbere.

Amafaranga aratandukana bitewe n'igihugu, amafaranga y'u Rwanda atandukanye n'amafaranga y'u Burundi, amafaranga y'u Burundi atandukanye n'amafaranga ya Tanzania, amafaranga y'u Rwanda arangwa n'inyuguti ya r na w na f.

Hari uburyo bwinshi bwo kwamamaza, hari ibintu abantu bamamaza bakoresheje, bimwe muri byo harimo ibipope, bafata imyenda bakayambika ibyo bipope, umuntu ubonye uwo mwenda, akabona icyo gipupe cyaberewe, na we aragenda akagura uwo mwenda.

Umuntu ugiye ku isoko agomba kubaza ibihari mbere y'uko agira ikintu agura. Agomba kubaza amafaranga y'ibicuruzwa ndetse akemeranya n'umuntu agiye kugurira amafaranga runaka, akayamuha na we akamuha ibicuruzwa, byaba na ngombwa akamuha icyemeza ko yamuguriye.

Mu iduka haba ibikoresho bitandukanye, gusa bisaba kwitonda mu gihe ugiye kugura ikintu mu iduka, kuko iyo uhageze ubona ibintu byose ari byiza kandi bishimishije, gusa amafaranga yo kubigura akaba ari make, ni yo mpamvu ugomba gutondeka ibintu ukeneye hanyuma ukinjira mu iduka ukabigura.

Ibikapu ni ingirakamaro cyane, ni umufuka muremure abantu bakoresha batwaramo ibintu bitandukanye, abanyeshuri batwaramo amakayi, abantu bagiye gushaka amafaranga bitwaje ibintu birenze cyangwa se biremereye bagatwaramo ibyo kurya.

Abazungu ni abantu bakunze gutangarirwa mu gihe bagiye mu bihugu byo muri Afurika gusa ibi ntibikwiye kubera ko nabo ari abantu nk'abandi kandi bava amaraso kimwe n'andi, ibi ntibikwiye rwose.

Hari ahantu abantu bahurira bakagura ibyo bakeneye. Iyo yitwa inzu y'ubucuruzi. Mu nzu z'ubucuruzi habamo ibintu bitandukanye, imyenda ndetse n'ibindi bicuruzwa. Umuntu ushaka gucuruza ku bakiriya benshi, arabanza akamamaza.

Iyo ugiye mu isoko, uhabona ibintu bitandukanye, bimwe muri byo, aba ari ibintu bishimishije kubireba, aba ari ibintu bitangaje kandi bisekeje, umuntu ugiye mu isoko ufite amafaranga agomba kugura ibintu yateganyije kandi by'ingirakamaro.

Gucuruza mu cyaro bisaba kwihangana, no kuzana ibintu abantu bakunda cyane. Bimwe mu bintu abantu bakunda harimo inyanya, ibijumba, imbuto, ndetse n'ibindi bintu bashobora kwifashisha, bateka ibiryo bya buri munsi.

Abaturage bagomba gushyira mu gaciro mu gihe hari ibintu bagiye kugura. Ngomba kubanza kugenzura amafaranga akareba yuko ikintu agiye kugura gihuje n'amafaranga agiye gutanga. Mu gihe agenzuye agasanga amafaranga agiye gutanga ari menshi agomba kukireka.

Imyenda ni imyambaro abantu bambara, imyenda irimo amoko menshi, irimo amabara menshi kandi imyenda iratandukanye bitewe n'igihugu, hari imyambaro itukura, iy'umuhondo ndetse n'iy'icyatsi.

Umuntu utembereye mu iduka ahabona ibintu bitandukanye, gutungurwa bishobora kumubaho mu gihe aturutse ahantu h'icyaro, gusa, abanyamujyi ntibatungurwa n'ibintu babona mu maduka, mu maduka haba ibintu bisanzwe urugero nk'inkweto imyenda ndetse hari n'uburyo butandukanye bukoreshwa mu kwamamaza.

Imodoka ni igikoresho gitwara abantu. Iki gikoresho kigomba gushyirwa ahantu hari isuku kandi aha hantu hagomba kuba hari umutekano. Mu rwego rwo kugera kuri ibi, ni ngombwa ko imodoka zishyirwa ahantu habugenewe kugira ngo umutekano wizerwe.

Imodoka iyo uyirebera inyuma hari ibintu byinshi ubona bitandukanye, gusa utangara iyo ugezemo imbere, imbere habamo intebe ndetse umuntu uyitwaye aba afite ahantu ho kwicara hatandukanye n'umuntu wicayemo udatwaye.

Ubu isi tugezemo n'iy'ikoranabuhanga, gutembera ntibikigorana kubera ko haje imodoka zifasha abantu mu ngendo zabo, ibi bishatse kuvuga ko gutembera bisigaye byoroshye gusumba mu gihe cyashize.

Kwirata ni igihe umuntu arata ibintu atunze cyangwa se akiyemera imbere y'abandi avuga ko afite ibintu by'agaciro. Aba bantu akenshi, bashobora kwifotoza bari imbere y'imodoka zishobora kuba atari izabo kandi ibi, bigira ingaruka mbi kuko bituma abantu bagutinya.

Imodoka ni igikoresho cy'ingenzi cyane. Iki gikoresho gikunze gukoreshwa cyane cyane mu mijyi, ahantu hari imihanda ndetse n'abantu bishoboye. Imodoka ni ikinyabiziga gikoreshwa n'abantu batuye ahantu hatandukanye.

Umuntu ushaka kwifotoza hari uburyo bwinshi ashobora kwifatamo, ashobora kwifata mu mifuka cyangwa se ahandi hantu. Umuntu ukunda kwirata akunze kwifotoreza ahantu hari ibintu bihenze urugero, nk'imodoka ndetse n'inzu z'agaciro kenshi.

Nta muntu utifuza kubaho neza, afite imodoka nziza, inzu nziza kandi yambara ikote, gusa ibi ntiwabigeraho ukennye, gushaka amafaranga nibyo byiza kugira ngo ugere kuri ibi bintu, kwiba ntibishobora kugufasha kugera kuri izi nzozi.

Abantu bamamaza mu buryo butandukanye, hari uburyo bwinshi bashobora gukoresha, bashobora gufata ibyapa bakabimanika ahantu, bashobora kubifata mu ntoki, umugabo, umugore, umusore, bose bashobora kwifashishwa mu kwamamaza kandi ibi bituma business cyangwa se umushinga wabo wiyongera.

Amafaranga uko yaba ameze kose akomeza kugira agaciro kayo, umuntu ubonye amafaranga aho yayabona hose ashobora kugenda akaguramo icyo ashaka, urugero ushobora gutoragura amafaranga mu byondo, urugero niba ari inoti ya bitanu izakomeza kwitwa inote ya bitanu.

Gushaka amafaranga biravuna gusa nanone iyo umuntu ayabonye arishima cyane, kurunda amafaranga akaba menshi, bishobora gutuma umuntu yitwa umukire kandi bishobora gutuma agura ikintu akeneye ndetse no mu gihe bitari ngombwa.

Amafaranga ashobora kuba meza, ariko nanone nk'uko bigaragara muri bibiliya ashobora kuba umuzi w'ibibi by'ubwoko bwose. Ibi bishatse kuvuga ko umuntu ukoresha neza amafaranga abaho neza. Ariko umuntu ukunda amafaranga akayakoresha nabi bishobora kumuviramo ibibazo bikomeye.

Abantu bose muri rusange bakenera amafaranga, amafaranga agenda atandukanye bitewe n'igihugu akoreshwamo, hariho amafaranga y'inoti ndetse n'amafaranga y'ibiceri, ayo mafaranga yose akaba agira agaciro bitewe n'igihugu akoreshwamo.

Umuntu ushaka amafaranga arayakorera. Ashobora gukora akabira icyuya ntayabone, akabona make cyangwa menshi, icy'ingenzi ni uko umuntu abona amafaranga. Uburyo umuntu ashobora kuyabonamo bwose bushobora gutuma abaho neza. Amafaranga menshi kuyagira ntawe utabyifuza.

Amafaranga menshi atunzwe n'abantu bakize, aba amafaranga yabo bayagura imodoka, bubakamo inzu nziza, kandi akenshi abana babo babaho neza, abakene bagira amafaranga make.

Amafaranga akoreshwa mu Rwanda igihumbi ni inote. Iyi note ifite agaciro cyane kuko ishobora kugura ikintu gihenze gishobora kugura amashilingi menshi. Amafaranga igihumbi, iyi noti yo mu Rwanda ashushanyijeho inkende.

Amafaranga akunze kuba atandukanye bitewe n'igihugu akoreshwamo. Amafaranga kandi agira agaciro bitewe n'igihugu akoreshwamo. Amafaranga y'u Rwanda, inoti ya bitanu, yanditseho gatanu n'amazeru atatu, ishushanyijeho ibiseke bibiri kandi aya mafaranga arakoreshwa cyane.

Ubu inganda zariyongereye cyane. Amata asigaye atunganywa nyuma yo gukamwa, hanyuma akavamo ibintu bitandukanye. Gusa anyobwa mu rwego rwo kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Umugore ni imbusane y'umugabo, umugore yitwa umugore kubera ko afite umugabo cyangwa se yabyaye, umugore akenshi akunda kwambara ibitenge ndetse n'ibitambaro, arangwa n'imisatsi miremire.

Abantu bacuruza utuntu dukeya babona na bo amafaranga makeya, umuntu ucuruza imigati, imineke n'amagi gusa, ntashobora kubona amafaranga ahwanye n'ay'umuntu ucuruza ibintu byinshi, urugero nk'imyenda ndetse n'ibindi.

Umuntu ufite iduka agomba gukoresha uburyo butandukanye kugira ngo abone abantu agurisha ibyo acuruza. Umuntu ufite iduka agomba kwamamaza akoresheje uburyo butandukanye. Bimwe mu bintu bicururizwa mu maduka harimo amata, amagi ndetse n'imigati.

Ibyapa ni ingirakamaro cyane, biyobora abantu, byerekana ko hari ibicuruzwa kandi bishobora no gufasha umuntu kumenya ibintu bihari bigurishwa. Umuntu ushaka kwamamaza agomba kumanika icyapa kandi umuntu uzi gusoma wese ashobora kuyoborwa na cyo.

Mu mihanda usangamo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, hari ibigenda bifite amapine abiri, kandi ibi na byo bikoreshwa mu gutwara abantu, ibinyabiziga bishobora kubikwa mu nzu, kandi iyi nzu igomba kuba ari inzu yabugenewe ishobora kubibikwamo.

Amata aba afite ibara ry'umweru. Gusa ashobora gukorwamo ibintu bitandukanye, akagira ibara ritandukanye n'iryo. Icyakora amata uko wayanywa kose, ushobora kugira ubuzima bwiza. Ni byiza rero kunywa amata mu buzima.

Abantu barafashanya cyane mu bikorwa byabo bya buri munsi, mu gihe abantu bacuruza amata haba hakenewe abakozi babafasha kugira ngo ayo mata bayatunganye, amata ni ingenzi cyane kuko atuma umwana akura.

Amata ni umusaruro ukomoka ku matungo, amata ni ingirakamaro cyane cyane ku mwana, umwana wanyoye amata atekereza neza, kandi akura afite ubwenge budasanzwe. Niba ushaka ko umwana wawe akura ameze neza, muhe amata anywe.

Mu iduka haba ibintu bitandukanye. Umuntu ushaka kugura ikintu, agomba kubanza gushishoza. Abacuruzi bashobora kubeshya umuntu ko ikintu agiye kugura ari cyiza, nyamara ari ikintu kibi. Umuntu ushaka kugura, agomba gushaka umuntu uzi neza icyo kintu, hanyuma akamufasha kugura.

Amata ni ingirakamaro cyane, amata atuma abana bakura neza kandi amata atuma umuntu atekereza neza, umuntu wese ushaka kubaho neza agomba kunywa amata, gusa amata agomba gushyirwa mu bikoresho bifite isuku.

Niba ushaka kubaho neza, nywa amata. Amata ashobora gutuma ugira ubuzima bwiza, ukaramba, ukabaho igihe kirekire kandi ushobora kugira ubwenge bitewe n'uko wanyweye amata. Amata agomba kugirirwa isuku aho ariho hose.

Abanyeshuri biga ikoranabuhanga bagomba kuba bafite ibikoresho bihagije, bagomba kuba bafite mudasobwa ifite ibikoresho byose, abanyeshuri bagomba kuba baziranye ku buryo bafashanya mu masomo yabo.

kwizigama, ni igikorwa cyiza kwizigama amafaranga make make bishobora gutuma ubaho neza mu gihe kizaza ni muri ubwo buryo umuntu ashobora guteganyiriza ejo hazaza he atanga amafaranga make make hanyuma akazabona inyungu mu gihe kiri imbere.

Gutangara ni igikorwa kiba ku bantu batandukanye. Umuntu ashobora gutangazwa n'ibintu bitandukanye. Urugero, mu gihe yakiriye amafaranga menshi atazi ahantu avuye cyangwa se adakeka uko ayabonyemo, ashobora gutangara.

Hari uburyo butandukanye umuntu ashobora kwishyuramo undi amafaranga, umuntu ashobora kwishyura undi mafaranga atayakozeho kandi uwo ayoherereje akayabona mu buryo bworoshye. Aha hagomba kubaho icyizere kugira ngo umuntu yemere ko niyoherezwa amafaranga arayabona.

Urupapuro rugaragara muri telefone umuntu ara ashobora kurwandikaho. Gusa ntushobora kurwandikishaho ikaramu kubera y'uko terefoni udashobora kwandikamo n'umuti w'ikaramu, urupapuro rugaragara muri telefoni ukoresha amatoshi agaragara kuri telefoni mu kugira ngo wandike.

Amafaranga ni ingenzi cyane, hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoreshamo amafaranga, ushobora kuyagura ibyo kurya ndetse n'ibindi, ushobora kohereza mugenzi wawe amafaranga ukoresheje telefoni yawe, aya mafaranga amugeraho kandi nta kibazo cyo kuyabona agira.

Urupapuro ni igikoresho gikoreshwa mu kwandikwaho, iki gikoresho kikaba ari ingirakamaro cyane. Abanyeshuri baragikoresha, bakahasubiriza ibibazo cyangwa se imikoro mwarimu yabahaye.

Zimwe mu mpapuro zigomba kuzuzwa, harimo impapuro zikoreshwa mu mabanki. Izi mpapuro zuzuzwaho amafaranga uko yakoreshejwe, ndetse n'amadeni atarishyurwa. Ibi bifasha mu kurinda kwibagirwa.

Banki ni ahantu umuntu ajya akahabika amafaranga ndetse akaba ashobora no kuyabikuza mu gihe abishakiye. Amabanki afite akamaro cyane mu gihugu kuko atuma amafaranga y'igihugu agira agaciro kandi agakoreshwa neza.

Umuntu ushaka gukora umushinga w'ubucuruzi, agomba kubanza gushaka icyemezo kimwemerera gukora uwo mushinga, ibi biterwa n'uko hagomba kwirindwa akavuyo gashobora kuboneka, ku bantu bakora ubucuruzi butemewe.

Umuntu iyo yishyuye amafaranga kuri banki ahabwa ikintu kimwemeza ko yishuye ayo mafaranga, urwo ni urupapuro nyemezabwishyu, uru rupapuro ruramufasha cyane kubera ko iyo hagize ikibazo kiba kijyanye n'aya mafaranga, ashobora kurugaragaza hanyuma agahabwa amafaranga ye.

Impapuro zigomba kuzuzwa ziratandukanye bitewe n'aho zigomba kuzurizwa, urugero: hari impapuro zigomba kuzurizwa mu ikoranabuhanga ukoresheje mudasobwa, izo mpapuro ziba zitandukanye n'impapuro umuntu ashobora kujya kugura ahantu.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro gitanga ibyemezo ku muntu wese wishuye umusoro. Hari icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro. Iki cyemezo kigaragaza ko umuntu nta mwenda arimo w'umusoro runaka.

Amafaranga ni meza ariko ashobora no kuba mabi gihe akoreshejwe neza, inama abantu bagirwa ni iyo kudakunda amafaranga, kubera yuko bibiliya ivuga ko gukunda amafaranga ari umuzi w'ibibi by'ubwoko bwose, amafaranga ashobora kuba meza mu gihe yakoreshejwe neza.

Amafaranga ni meza cyane, iyo uyahaye umuntu aba yizeye ko aho ajya arayatanga na we akagira ibyo ahabwa. Mu rwego rwo kongera icyizere, ni ngombwa guha amafaranga umuntu wese wizeye kugira ngo umufashe kubona ibyo akeneye.

Amafaranga ashobora kugura ibintu bitandukanye, amafaranga ashobora kugura ibyo kurya, imyambaro, imyenda ndetse n'ibindi umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi, amafaranga ashobora kwishyurira umunyeshuri akiga akarangiza.

Amafaranga ni ingenzi cyane, kuyakorera biragorana ni yo mpamvu bisaba ubwitonzi kuyabara mu gihe uyabonye. Ushobora kuyabara ukoresheje imashini kandi birafasha cyane kuko biruhura mu mutwe. Umuntu ukoresha imashini agomba kuba ari intyoza kandi azi gukoresha ikoranabuhanga cyane.

Iyo ubonye amafaranga menshi usa n'uwikanga gusa amafaranga ni meza. Amafaranga ashobora kugura ibintu bitandukanye. Amafaranga arahaha, ukabona ibyo kurya. Amafaranga ashobora gukodesha inzu, ukabona aho kuba.

Amafaranga, kuyabara ntabwo ari ibintu byoroshye, bisaba umuntu w'umuhanga, wize, uzi gusoma neza, amafaranga ashobora kubarwa n'umuntu w'umuzungu, umwirabura, ndetse no mu gihugu icyo yaba ari cyo cyose, amafaranga ashobora kuyabara.

Amafaranga afite akamaro cyane mu gihugu, amafaranga ashobora gutuma umuntu wari ufunzwe afungurwa, mu gihe yishyuwe nk'indishyi y'uwo muntu, amafaranga ashobora gucungura umuntu wari ugiye gupfa, ibi nti bishatse kuvuga ko amafaranga akwiye guhabwa agaciro cyane.

Amafaranga ni meza. Amafaranga ashobora kugura ibyo kurya, imyambaro ndetse ashobora no kuguha aho kuba. Amafaranga akoreshejwe nabi, ashobora kukwicisha kandi akoreshejwe neza ashobora kugukiza.

Amafaranga agira akamaro mu bihugu ibyo ari byo byose. Igihugu icyo aricyo cyose gikenera gukoresha amafaranga, gusa igihugu kigira amafaranga yacyo kandi agaciro k'amafaranga kaba gatandukanye, bitewe n'igihugu ayo mafaranga akoreshwamo.

Amafaranga ni ingenzi cyane, ashobora kugura ibintu bitandukanye, ibyo kurya, amazi, umuriro ndetse ashobora no gukoreshwa mu kugura ahantu umuntu aryama, amafaranga akoreshejwe neza yagirira igihugu akamaro kandi yatuma abaturage bacyo babaho neza.

Amafaranga agaragara ku buryo butandukanye. Amafaranga menshi aba ashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye, ishusho z'abantu, cyane cyane ababaye abayobozi b'ibihugu. Ibi bituma uyu muyobozi ushushanyije ku note atibagiranwa.

Umuntu iyo ari kubona amafaranga arishima cyane, amafaranga ni ay'ingenzi kandi umuntu udafite amafaranga ntashobora kubaho. Amafaranga agura ibintu byose umuntu akenera kandi amafaranga ashobora no kugura ibintu by'agaciro umuntu atunze.

Amafaranga ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi, ashobora gukoreshwa mu kugura amazi, mu kugura ibyo kurya ndetse ushobora kuyaha inshuti yawe ikennye, ikaba yabasha kugira ikintu yaguramo; amafaranga ashobora gutuma umunyeshuri yiga ndetse ashobora no gutuma abona ibyo kurya mu gihe ashonje.

Ibyuma na byo biba bikenewe cyane mu gihugu. Ibyuma bifasha cyane mu kurinda abantu guhanuka. Ibyuma birahenze ariko kubikoresha ni ingirakamaro. Umuntu ushaka kuzitira urugo rwe, ashyiraho ibyuma bikomeye.

Ibyapa biri ahantu hatandukanye bishirwaho ku bw'impamvu zitandukanye. Zimwe mu mpamvu zishobora gutuma ahantu hashirwa icyapa ni impamvu yo kwamamaza. Impamvu zose zishobora kubaho zituma umuntu agira ikintu amenya kuko gihari cyangwa se ko giteje akaga.

Ibiro ni inzu y'umuyobozi ikunze kuba ifite isuku kandi igomba kuba yubashywe cyane, birabujijwe kwinjira mu biro udasabye uruhushya, umuyobozi agomba guha uruhushya umuntu wese ushaka kumusanga, iyo umuntu arenze ku mategeko arahanwa.

Amafaranga ahora avugwa ahantu hose. Umuntu wese ushaka amafaranga ahora ashaka uburyo yayabonamo bwiza cyangwa bubi. Inama umuntu akwiye kugirwa mu gihe ashaka amafaranga ni iyo kuyashaka mu buryo bwiza. Gusa hari n'amafaranga y'ikoranabuhanga, aya mafaranga n'ayo arakoreshwa cyane.

Abayobozi bakunze kugira inzu, iyi nzu yitwa ibiro. Ibiro ni ahantu umuyobozi aba akorera akazi ke, abamushaka bamusangamo ndetse bashobora no kuhabona serivisi zitandukanye. Umuyobozi aba ari umuntu wubashywe cyane kandi akunda na we kubaha abandi.

Abantu baganira bakoresheje uburyo butandukanye, bashobora gukoresha telefoni cyangwa se bakaganira imbonankubone. Abantu bakundana iyo bari hamwe baraganira, bashobora kuganira bari mu nzu cyangwa se bari ahantu hatandukanye, urugero nko hanze y'inzu.

Amafaranga menshi abikwa mu bigo by'imari, aho umuntu ufite amafaranga agenda akayashyiramo hanyuma byaba na ngombwa bakazamuha inyungu, gusa akenshi bikorwa kugira ngo hirindwe ibisambo aya mafaranga atazayibwa.

Kwitegereza ni ngombwa cyane, umuntu ashobora kwitegereza ibintu bitandukanye. Mu gihe uri gusoma ibintu ariko utabisobanukiwe, ugomba kwitegereza neza. Hari ibintu umuntu ashobora gusoma ariko kubisobanukirwa bikamugora, indimi z'amahanga cyangwa se mu gihe atazi gusoma neza.

Imishinga itandukanye, ikora ibintu bitandukanye. Hari imishinga ishinzwe gutanga amafaranga ku bantu bayakeneye. Ibi bituma na bo babonamo inyungu kubera yuko uruganda rushinzwe gukora amafaranga, iyo ruhombye, bituma na bo bahomba.

Nta muntu udakunda isuku, umuntu wese aba yifuza kuba ahantu hari isuku, ibi ni byiza kandi ni abyo bituma umuntu atandukana n'inyamaswa, mu hantu henshi hari isuku harimo ahantu h'uruganiriro, haba hari ibikoresho byihariye bituma haba isuku.

Ubusitani bwiza ndetse n'akayaga keza nta handi ushobora kubibona uretse muri hoteri, umuntu wese ufite amafaranga ahantu heza ho kuyarira ni ukujya kuyarira muri hoteri. Ibi bituma amafaranga y'abantu benshi ashira vuba.

Abantu baryoherwa n'ibintu bitandukanye, hari ibintu bibaryohera babiriye, hari n'abantu baryoherwa n'ibintu banyweye. Bimwe mu bintu abantu barya harimo: imineke, inanasi, imigati, ndetse n'imbuto.

Amahoteli menshi abamo ibyo kurya biryoshye, bimwe mu byo kurya bibamo, bishobora gukundwa n'abantu baturuka ahantu hatandukanye, mu mahanga, mu cyaro ndetse no mu mijyi. Umuntu wese ugiye muri hoteli, agomba kuba afite ubushobozi bwo kuba yagura ikintu.

Muri hoteri ni ahantu umuntu ajya akahafatira amafunguro cyangwa se byaba na ngombwa akabona aho kuryama, muri hoteri habamo ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye, ameza, intebe, ibirahure ndetse n'ibindi, ibi umuntu wese ubishaka agomba kwishyura amafaranga.

Umuntu wese ushaka kwishimisha atemberera muri hoteli. Gusa iki gikorwa ntabwo cyoroshye kuko gisaba abantu bafite amafaranga. Abakene ndetse n'abandi bantu bafite amafaranga makeya, gutemberera mu mahoteli birabagora.

Hoteli igira abakozi babishinzwe bafite impano zo kwakira abantu, aba bakozi basekera umuntu uwo ari we wese ku buryo umukiriya aza akagura ibintu nta nkomyi, mu gihe umuntu agiye muri hoteli agafatwa nabi, ntashobora gusubirayo.

Ibyuma by'ikoranabuhanga bigomba gukoreshwa n'umuntu ubifitiye ubushobozi, ufite ubuhanga kandi ubimenyereye. Ibi ni ingenzi kuko bituma hirindwa ubusambo, kandi abantu bakabika amakuru yabo mu buryo bw'ibanga.

Bimwe mu bintu bitatse isi dutuye harimo ibiyaga, imigezi ndetse n'ibiti. Umuntu wese wifuza kugira ubuzima bwiza agomba gutemberera ahantu hari amazi, imigezi ndetse n'ibiyaga. Niba ushaka kumenya ibintu byinshi, ushaka gutekereza neza ahantu heza ho gutekerereza ni ku mugezi, ni ku kiyaga.

Muri hoteri hagomba kuba ari ahantu hisanzuye, ku buryo umuntu uje agana iyo hoteri abona ahantu kuruhukira bihagije, hagomba kuba hafite isuku kandi harimo abakozi babishoboye bazi kwakira neza ababagana.

Muri hotel ni ahantu umuntu ajya akahafatira amafunguro, ibi bisaba kuba umuntu afite amafaranga ahagije kubera ko hoteli nyinshi zibamo ibintu bihenze, ibi bishatse kuvuga ko umuntu udafite amafaranga kujyayo bishobora kumuhenda.

Mu bikoresho bikorerwa mu bihugu bitandukanye; harimo intebe, intebe zikozwe mu buryo butandukanye, hari intebe za kizungu ndetse n'intebe zikozwe mu buryo bwa gakondo, ibi bishimisha abantu babireba ndetse abantu benshi bishimira kubikora.

Hari abantu benshi batangiza imishinga, iyo mishinga iba ifite inyungu kuri bo, nubwo inyungu zishobora gutandukana, izo nyungu zishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye, gusa hari n'ubwishingizi abantu bashobora kujyamo kugira ngo bashinganishe ibintu byabo.

Inzu zigira umwihariko bitewe n'ibintu bikorerwamo. Inzu zisengerwamo cyangwa se insengero ziba zitandukanye n'inzu bafungiramo abantu. Gusa uko inzu yaba imeze kose igomba kuba isakariye kandi yubatse impande zombi kugira ngo yitwe inzu.

Kuvugira kuri telefone bisaba ubuhanga. Gusa si byiza kuvugira kuri telefoni mu gihe uri kuganira n'abandi. Ibi bituma abantu babafata nk'aho basuzugura. Umuntu wese ushaka kugaragaza ko agira ikinyabupfura agomba kuganira n'abandi aho kuvugira kuri telefone.

Inzu ndende yubatse ku buryo butangaje yitwa etaje, iyi nzu iba ikwiye kubakwa n'umuntu w'umuhanga kandi mbere yuko yubakwa irabanza igakorerwa igishushanyo mbonera kugira ngo izubakwe ku buryo bwiza.

Umuntu ukeneye amafaranga nta bundi buryo ashobora kuyabonamo uretse kuyakorera. Ibitari ibyo ashobora kuyiba kandi iyo bsmufashe bimugiraho ingaruka mbi kubera ko ashobora guhanwa n'amategeko y'igihugu harimo n'igifungo.

Abantu baratangaje cyane. Abantu bafite ubwenge buhambaye bashobora gukoresha telefoni, bashobora gusoma ibintu, bashobora kuganira, bashobora gukina ndetse abantu barihariye kuko bafite ubwenge cyane gusumba inyamaswa.

Umuntu ufite inzozi ashobora kuzigeraho binyuze mu gufata inguzanyo, mu gihe umuntu atekereza umushinga munini ariko akaba nta mafaranga yo gukora uwo mushinga afite, ashobora kugana ibigo by'imari bakamuha inguzanyo yifashisha, mu gukora imishinga ye.

Mu rwego rwo kwirinda ubujiji abanyeshuri bagomba kujya ku ishuri bagafata amasomo, abanyeshuri iyo bari ku ishuri bahura n'ibibazo bitandukanye gusa baba bagomba gusobanurirana, kugira ngo bacike ibyo bibazo.

Umuntu ushaka ikintu runaka ariko, nta mafaranga afite yo kukigura, hari uburyo butandukanye ashobora kubonamo amafaranga. Bumwe muri byo ni ukugurisha ikintu atunze, cyangwa se akaba yagurizwa na mugenzi we.

Serivisi zitangwa ziba zitandukanye hari visi zitangirwa mu mabanki ndetse na serivisi zitangirwa mu nzu zikorerwamo ubucuruzi, umuntu uzi gutanga serivisi nziza abona akazi ahantu henshi.

Umuntu ushaka kwizigama agomba gushyiramo ubwenge, si byiza kuzigama amafaranga yose ufite, ahubwo umuntu agomba gukoresha amwe akeneye hanyuma ayandi akayazigama. Ibi bishatse kuvuga ko kuzigama amafaranga yose ari bibi.

Inguzanyo ishobora kuba nziza bitewe n'uyifashe, ariko nanone ishobora kuba mbi kubera ko umuntu ayikoresheje nabi ashobora kubura amafaranga yo kwishyura, bityo bigatuma ahura n'ubukene kandi bikazamubera ikibazo mu gihe kizaza cye.

Umuntu agomba kwishimira igihugu atuyemo. Niyo mpamvu niba utuye mu gihugu cy'u Rwanda ugomba kucyishimira. Gusa si ibyo gusa hari na banke, igufasha kwishimira icyo gihugu. Ubwo rero ni ahawe.

Umuntu ushaka gukira mu buryo bwihuse, ashobora kugenda agafata inguzanyo. Iyi nguzanyo, ashobora kuyishyura mu gihe gito cyangwa kirekire. Ibi byose, bituma iterambere ry'igihugu ryiyongera kandi n'iterambere ry'uwo muntu rikiyongera.

Mu bihugu byateye imbere, uhasanga urujya n'uruza rw'abantu. Abantu bakunze kuba baganira, na none kandi ibihugu byateye imbere, uhasanga ibinyabiziga, bimwe muri ibyo binyabiziga, harimo amagare, imodoka ndetse na moto.

Umuntu ugiye kugura ibintu ku isoko, ashobora kubona ibintu by'amafaranga make agura, urugero ashobora kugura imbuto, imbuto zirimo amoko atandukanye intoryi, inyanya, ibitunguru ndetse n'imiteja.

Mu isoko ushobora kuhasanga abantu bakora akazi gatandukanye. Haba harimo abantu bashinzwe kudoda imyenda ndetse haba harimo n'abacuruzi. Abacuruzi bacuruza imyenda itandukanye; ibitambaro, ingutiya, amajipo, ingofero ndetse n'ibindi bituma abakiriya baza.

Iyo utembereye ahantu henshi, uhasanga ibintu bitandukanye. Gusa ibintu bikunze kwiganza, ni imodoka ndetse n'amazu. Ibi bikunze kugaragara cyane cyane mu mujyi, ahantu haba hari abantu benshi bafite imodoka ndetse bafite n'aho bataha.

Mu Rwanda hari abacuruzi benshi, abacuruzi benshi bacuruza imyenda, imyenda ni ibicuruzwa umuntu acuruza agamije kubonaho inyungu kugira abantu bazabyambare, imyenda iratandukanye gusa u Rwanda rwahisemo guca imyenda yitwa caguwa.

Ibicuruzwa bicuruzwa mu masoko atandukanye biba bitandukanye, bimwe muri byo biba bitangaje ibikapu, imyenda ndetse n'ibitambaro by'ubwoko bitandukanye ushobora kubisanga mu masoko, ibi bigurwa n'umuntu ubikeneye kandi biterwa n'amafaranga ufite mu gihe ugiye kugura.

Bimwe mu bintu bicuruzwa hari ibicuruzwa bigendanwa kandi umuntu agahita abirya. Ibyo birimo ibiraha, imigati, amagi n'amandazi. Umuntu wese ashobora kubirya kuko biba bihiye kandi bishobora gukoreshwa n'abantu mu ngeri zitandukanye.

Mu isoko habamo ibintu bitandukanye; imbuto, imboga ndetse n'ibindi biribwa. Umuntu ushaka kugura imbuto, agomba kuba afite amafaranga. Aya mafaranga uyaha umucuruzi na we akaguha ibintu ushaka. Umuntu ushaka kugura ibintu bifite ubuziranenge, agomba kuba afite amafaranga menshi yo kugura ibyo bintu.

Isoko ni ahantu hajyanwa ibicuruzwa bitandukanye. Bimwe mu bintu bigaragaramo biba ari ibicuruzwa bikoreshwa mu gice cy'icyaro. Bimwe muri byo harimo ingoma, ibicuma ndetse n'imisego. Umuntu ushaka kubaho neza, agomba gushora igishoro kirekire kugira ngo abone inyungu mu buryo bwihuse.

Umuntu uzi kwitegereza neza ashobora kubona ibintu bitandukanye, urugero, ashobora kubona ibintu biri mu nzu byose, kabone n'ubwo abandi bantu batazi kwitegereza neza badashobora kubibona, mu nzu harimo ibikoresho bishobora kuba umuntu kubibona asabwa kwitonda, ibyo birimo nk'ibikoresho bito bito kubibona bigoranye.

Mu gihugu cy'u Rwanda hubatswe amasoko menshi. Aya masoko atuma abaturage bahahurira bakaganira kandi buri wese akagurisha icyo afite. Umuntu udafite ikintu ashaka kugurisha ariko afite amafaranga na we ashobora kuhagurira icyo akeneye.

Umuntu wizihiwe arangwa no kuba afite akanyamuneza, ushobora kubyina mu gihe wizihiwe. Ibi bishobora kubaho mu gihe hari ikintu runaka gishimishije wabonye. MTN ni ikigo gishinzwe gufasha abantu guhamagara ndetse no kubona serivisi zijyanye n'itumanaho, ibi bishobora kugushimisha.

Umuntu ushaka guhamagara undi akoresheje igikoresho cy'ikoranabuhanga cyitwa telefone, agomba kubanza gushyiramo amafaranga, iyo atabikoze guhamagara ntibikunda, ibi bishatse kuvuga ko guhamagara umuntu ukoresheje telefone bisaba amafaranga.

Hari imishinga myinshi umuntu ashobora gukora. Imwe muri yo, si ngombwa ko umuntu ayikora afite igishoro gihambaye. Umuntu ashobora gucuruza amafaranga, akagenda ayaha abantu. Ibi bikorwa mu rwego rw'ikoranabuhanga.

Mu Rwanda hari imishinga myinshi umuntu ashobora gukora, ushobora gucuruza amafaranga, aho ucuruza amafaranga, umuntu akayabitsa kuri telefoni, undi akaza akayabikuza .Ibi bitanga inyungu ku buryo ushobora kwizigama amafaranga arenga ibihumbi makumyabiri ku kwezi.

Mu gihe umuntu uri kure ashaka koherereza undi amafaranga ariko uwo muntu akaba atari iruhande rwe ashobora gukoresha uburyo bwo kuyohereza kuri telefoni, aya mafaranga amugeraho bidatinze kandi amugeraho uko yayamuhaye.

Uburyo bwo kugura buratandukanye, hari uburyo bwo kugura no kugurishwa bukora binyuze mu rwego rw'ikoranabuhanga, ibi bituma abantu bari ahantu hatandukanye bagura ibintu bitandukanye mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Serivise zitangirwa ku ikoranabuhanga binyuze ku rubuga Irembo ziba zitandukanye, urugero nk'umuryango ushobora gukenera ibyemezo bitandukanye, ibi byemezo bishobora gusabwa binyuze ku rubuga Irembo, urugero nk'ibyemezo bishobora kuhasabirwa harimo icyemezo cy'uko uri ingaragu ndetse na serivise z'ubutane.

Hari ibicuruzwa bimwe bicururizwa ku ikoranabuhanga. Abantu bacururiza ku ikoranabuhanga, bashyiraho nimero ku buryo mu gihe umuntu ashaka igicuruzwa runaka, agomba guhamaga izo nimero bityo icyo gicuruzwa akakigezwaho mu gihe gitoya.

Hari ibintu bibaho umuntu adasobanukiwe, ibi umuntu aba agomba kubaza, urugero niba mu rurimi rw'icyongereza ubonye ahantu handitse ngo roge, ibi ukaba atabisobanukiwe ugomba kubaza abantu babisobanukiwe.

Mu kugurira ibintu ku ikoranabuhanga, hari uburyo bwinshi bukoreshwa kugira ngo umuntu abe yabona ibintu yaguze, ushobora kugura ibintu ukabiha umumotari akabigeza ku muntu, wabikuguriye, ibi ni ingirakamaro kuko bituma, umwanya utwarwa mu gihe abigeza ku muntu ubishaka, uba ari muto.

Inkweto ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri muntu uwo ari we wese. Inkweto zifasha umuntu kwirinda indwara urugero nk'amavunja. Inkweto ni ingenzi cyane kuko zituma umuntu agira isuku kandi akagaragara neza.

Gutwara abagenzi bisaba ubuhanga ndetse n'uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, umuntu wese ufashwe atwara ikinyabiziga nta ruhushya afite arahanwa, ibi bihano bishobora kuba bikomeye kubera y'uko abantu batinya gufatirwa muri ibi bihano.

Icyumba giteguwe neza kigomba kuba gifite ibikoresho bihagije kandi gifite isuku. Ni ukuvuga ko hagomba kuba harimo ameza, intebe ndetse na tereviziyo ishobora gufasha umuntu kureba amashusho mu gihe abikeneye.

Inzu nziza igomba kuba isakariye, ifite isuku kandi ituma umuntu yumva aguwe neza, inzu ishobora gukoreshwa mu bucuruzi umuntu akabikamo ibikoresho akoresha mu bucuruzi, inzu kandi ishobora gukoreshwa umuntu ariramo.

Bimwe mu bice bigize inzu, harimo igice cy'ubwogero. Aha ni ahantu umuntu ajya agamije gukorera isuku mubiri we. Mu cyumba cy'ubwogero hagomba kuba harimo amazi ndetse n'ahantu asohokera. Ibi ni byiza kandi inzu yose igomba kubigira.

Umuntu ushaka kubaho neza agomba no kuryama ahantu heza, niba ushaka kuryama ahantu heza ugomba kugura igitanda gifite isuku kandi kinini. Umuntu ushaka kubaho neza agomba kuba mu nzu ifite isuku kandi yinjiramo umwuka mu buryo bworoshye.

Isuku ni isoko y'ubuzima. Mu gihe uvuye ku bwiherero ugomba gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune. Ibi bizakurinda indwara ziterwa n'udukoko ukuye mu bwiherero.

Umuntu ufite icyumba yakiriramo abashyitsi agomba kugikora neza kugira ngo gihorane isuku buri munsi, mu cyumba cy'abashyitsi hakwiye kuba harimo ibikoresho by'ingenzi, urugero nk'ameza, intebe ifasha umuntu kuruhuka.

Inzu ni inyubako abantu babamo. Inzu zishobora gutandukana bitewe n'ahantu zubatse. Hari inzu zubakwa ahantu h'icyaro ndetse hari n'inzu zagenewe kubakwa mu mijyi. Amafaranga yubaka inzu ashobora gutandukana bitewe n'ahantu yubatse ndetse n'uburyo yubatsemo.

Amafaranga ni ikintu gihenze kigoye kubona, gusa umuntu uyabonye ashobora kuyagura ibintu bitandukanye harimo n'inzu, inzu ushobora kuyibona mu mujyi wa Kigali ku mafaranga make, urugero: nka miliyoni eshanu gusa, ushobora no kwishyura kurara mun nzu nk'ijoro rimwe ukishyura nk'ibihumbi mirongo itatu na bitanu.

Bimwe mu bintu ushobora kugura ushaka ibintu byo gushyira ahantu heza utuye, harimo kugura igikoresho kizajya kigufasha kureba amashusho iki ni igikoresho cy'ikoranabuhanga kigufasha mu bintu byinshi harimo no kwidagadura.

Amazu yubakwa ahantu hatandukanye kandi yubakwa mu buryo butandukanye, hari amazu yubakwa imbere y'imihanda kandi aya mazu aba ateje akaga, kubera yuko umuntu ashobora kugonga aya mazu mu gihe atwaye imodoka. Ni byiza ko umuntu ugiye kubaka inzu abanza kugenzura ahantu agiye kuyubaka.

Umuntu ushaka kuruhuka mu mu gihe ari ahantu hatari iwabo, ashobora gukoresha igikorwa cyiza cyo kuba yakodesha inzu, ibi bishoboka cyane cyane mu gihe ari mu mujyi, kuko mu cyaro usanga nta hantu hari inzu zikodeshwa zihari.

Inzu ifite akamaro cyane, inzu ishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye, urugero umuntu ashobora kuyibamo cyangwa se akayikodesha, umuntu ashobora kubaka inzu afite intego yo kuzayikodesha, aha yinjiza amafaranga menshi.

Inzu zubakwa mu buryo butandukanye bitewe n'umwubatsi. Inzu zubakwa mu cyaro zigomba kuba zitandukanye n'inzu zubakwa mu mijyi, kubera ko inzu zubakwa mu mijyi ziba zirebwa n'abantu benshi kandi ari mu mboni z'igihugu.

Kwamamaza bituma abantu babona abakiriya mu mishinga yabo, umuntu wamamaje igikorwa cye aba atandukanye n'umuntu utaramamaje. Uko abakiriya biyongera mu mushinga umuntu yateguye bituma n'inyungu yiyongera.

Umuntu ushaka kubona inyungu nyinshi mu gihe gito, agomba kwamamaza ibicuruzwa bye, ibi bimufasha kubona abakiriya benshi kandi mu gihe gito, gusa biragoye cyane kwamamaza ukabona abakiriya benshi kuko bisaba umuhanga ndetse n'ubushishozi cyane.

Inzu zikodeshwa zigomba kuba zihariye, zifite isuku, zifite icyumba cyo kuryamamo, ubwogero ndetse n'ubusitani bwiza. Ibi bituma abantu benshi bifuza gukodesha iyo nzu kandi bumva bamerewe neza.

Imyenda ni ingirakamaro cyane. Umuntu ushaka kujya mu isoko kugura umwenda, agomba kubanza gutekereza ku mwenda akeneye, ibara ryawo ndetse n'uko uteye. Imyenda iba itandukanye ndetse n'amafaranga agura imyenda aratandukana bitewe n'umwenda ushaka.

Iduka ni ahantu haba ibicuruzwa, ibicuruzwa biratandukanye bitewe n'ahantu, bitewe n'agace cyangwa se bitewe n'umuntuntu ubicuruza, telefone, radiyo, amata ndetse n'ibindi ni ibicuruzwa, ibi bigurwa amafaranga niyo mpamvu byitwa ibicuruzwa.

Amavuta acururizwa mu maduka agomba kuba yujuje ubuziranenge kandi agomba kuba yemewe na leta, amavuta umuntu agomba kuyagura abanje gushishoza kuko umuntu adashishoje ashobora kumutera indwara.

Umuntu iyo afite ikintu ashaka kujya ku isoko arabanza akitegura agatekereza neza ahantu ashobora kugikura, ni ngombwa ko ubanza kwandika mu gakayi ibintu ugiye kugura kugira ngo nujya mu isoko utagura ibintu utatekerejeho.

Kugura no kugurisha ni igikorwa gifitiye abaturage akamaro. Gituma buri wese abona ibyo akeneye mu gihe afite amafaranga. Ibi bikorerwa ahantu hatandukanye habugenewe kandi bigirira inyungu igihugu, bigatuma iterambere ry'igihugu ryiyongera.

Isoko ni ahantu hahurira abantu benshi bafite intego yo kugura no kugurisha. Umuntu ugiye ku isoko aba afite amafaranga cyangwa afite ibyo agomba kugurisha. Ni byiza kugenzura neza ibicuruzwa mu gihe ugiye kugura, kuko akenshi ushobora kugura ikintu, ugasanga kidafite ubuziranenge.

Niba ushaka kugura ikintu uturutse ahantu ho mu cyaro, ntugomba gutinya kuko abacuruzi ni abantu beza. Bakunze kugira ibintu bitandukanye ndetse n'ikiyabupfura, umuntu ushaka kugura agomba kubegera akababaza kandi bamusubizanya ineza.

Mu gihe ugiye kugura ibintu ugomba gushishoza neza. Urugero mu gihe ugiye kugura umugati, ugomba kureba ko igihe wakorewe kitari kirekire ku gihe uzakoreshezwa, ibi bituma ubuziranenge bwawo bukomeza kwizerwa.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye by'ubwoko butandukanye, umuntu ushaka kujya mu iduka kugura ibintu agomba kuba azi ibintu ashaka kuko ashobora kugera mu iduka agahera mu rungabangabo akabura icyo afata n'icyo areka.

Impapuro zikoreshwa mu bintu bitandukanye. Impapuro zishobora kwandikwaho ibintu kandi ibyo bintu bishobora kuba ingirakamaro bitewe n'ubikoresha. Ushobora kwandikira umuntu umusaba urukundo, ushobora kwandikira umuntu umusaba amafaranga kandi akayaguha. Umuntu ushaka ikintu akandikira undi ubu butumwa bugera ku wo yabwandikiye nta nkomyi.

Kuri iyi si hari amadini menshi, abasiramu, abadivantisite ndetse n'abakatorike. By'umwihariko umusiramu ni umuntu ukunda kurangwa no kuba yiteze igitambaro mu mutwe, abasiramu akenshi bakunda gusenga bapfukamye.

Kugira ngo umuntu yumve atekanye, agomba kuba afite amagara mazima. Ibi bishatse kuvuga ko agomba gushinganisha ubuzima bwe. Nta kundi kuntu umuntu ashobora kubikora, uretse kwishura ubwisungane mu kwivuza.

Kugira ngo umuntu yumve afite umutekano agomba kuba yarizigamiye kugira ngo azabeho neza mu gihe kizaza. Ni muri urwo rwego Leta ishyiraho gahunda zo gufasha abaturage kwizigamira. Umuntu ushaka kubaho neza agomba kwishinganisha agatanga amafaranga azamugoboka mu gihe arwaye.

Abaturage basobanutse iyo bagiye mu nama bitwaza amakaye, aha bandika ibintu byose byavugiwemo kandi akenshi iyo babikeneye barongera bagasoma, ibi birafasha kuko bituma igihugu gitera imbere mu gihe gifite abaturage bashoboye.

Kwa muganga ni ahantu hahurira abarwayi, abo barwayi baba bafite ikibazo muganga agomba gukemura, muganga arabasuzuma akamenya uburwayi barwaye, hanyuma akabaha ibinini bihuje n'uburwayi bwabo.

Ubukwe ni ingenzi cyane, ubukwe bufasha abantu kumva bishimye bagasabana ndetse bakanywa inzoga bishimye, ubukwe ni igikorwa cy'ingenzi cyane mu muco Nyarwanda, umukobwa cyangwa se umusore bakoresheje ubukwe barubahwa cyane.

Hari impapuro umuntu agomba kuzuza mu gihe hari ikintu ashaka. Ibi ni ngombwa kugira ngo umuntu abikore afite ubushobozi. Ibi niyo mpamvu bisaba umuntu ujijutse kandi uzi gusoma neza, zimwe muri izo mpapuro harimo impapuro zo kwa muganga, impapuro zijyanye n'imanza ndetse n'izindi.

Mudasobwa ni igikoresho gikozwe mu ikoranabuhanga. Mudasobwa ni igikoresho gikoreshwa mu kubarura ibintu. Iki gikoresho gishobora gukoreshwa mu kwandika amatangazo, hifashishijwe ibimenyetso bitandukanye.

Umuntu ushaka kubaho neza agomba kubiharanira, iyi gahunda mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Ejo heza, umuntu ushaka kubaho neza agomba kwizigama, ku buryo amafaranga yizigamye azamufasha mu gihe kiri imbere.

Inzu nziza ziri ahantu heza, zituma abantu bishima kuzireba, bikaryohera amaso ndetse kumva inkuru z'izo nzu biba biryoheye amatwi, umuntu ushaka kubaho neza agomba gutura mu mujyi, aho abona inzu nziza kandi akabona ibintu bishimishije.

Kwizigama ni igikorwa cyiza. Gituma ugira amasaziro meza kandi n'abawe bakabaho neza. Niba ushaka kubaho neza ugomba kwizigama udufaranga duke duke kugira ngo mu gihe kiri imbere, ayo mafaranga azakugoboke. Ibi bituma abana bawe babaho neza kandi umuryango wawe ugahorana ibyishimo.

Iduka ririmo ibintu byinshi rikunze kuba ririmo amafaranga menshi, umuntu wese ushaka kuba umukire agomba gushora amafaranga menshi, akagira iduka ririmo ibintu bihenze. Ibi bituma umuntu wese ushaka ibintu abibona kandi akamuha amafaranga.

Ku munsi mukuru abantu bagura ibintu bitandukanye, ku munsi wa noheli abari umunsi abantu baba bafite amatsiko yo kugura ibintu byinshi. Ibintu bikunze guhenda kuri uwo munsi, ibi bishatse kuvuga ko umuntu ushaka kugura ikintu gihendutse agomba kujyayo ku munsi utari uwa noheli.

Amasoko acuruza ibintu bitandukanye. Bimwe mu bicururizwa mu masoko harimo n'imiti y'amatungo. Umuntu ushaka kugura umuti w'itungo rye, agomba kujya mu isoko akareba umuntu ubishinzwe ufite ubuhanga ndetse wabyize akamuha umuti akurikije uburwayi bw'itungo rye.

Ibyo kurya iyo umuntu wese abirebye agira amerwe cyane cyane iyo biryoshye, ibi nta handi wabisanga uretse mu maduka acuruza ibyo kurya. Bimwe mu bintu bicuruzwa harimo: Ibishyimbo, ingano, soya, inanasi ndetse n'imineke.